Mu muhanda hari itsinda ry'abantu benshi b'agabo, inyuma yabo hari ibiti by'amashanyarazi ndetse n'ibiti biteye ku mpande, n'ibyapa by'amabara y'umutuku n'umweru.

Umugore wambaye umupira w'umutuku, yicaranye n'umugabo wambaye ishati y'umukara, imbere yabo hari amakaramu ndetse n'ibitabo n'ibyo kunywa, inyuma yaho hari irindi tsinda ry'abantu benshi nabo bafite amakaramu ndetse n'ibitabo.

Imbaga y'abantu benshi imbere yabo harimo amameza ari mu mabara y'umuhondo, hakurya hari ibitambaro by'umweru, urukuta rusa n'umuhondo, igisenge k'inzu gisa n'umweru.

Abagabo batatu, umwe yambaye ikoti ry'umukara, karuvati y'umukara n'amadarubindi, uwo hagati yambaye ikote ry'umukara n'amadarubindi, hakurya yabo hari undi wambaye amadarubindi n'ishati y'icyatsi, inyuma yabo hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru kimanitse ku rukuta ruri mu mabara y'ubururu, icyatsi n'umuhondo.

Imbaga y'abantu benshi, imbere hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru, hirya hari undi mugabo wambaye umupira w'umukara hagati hari umugore, ufite indangururamajwi. Inyuma yabo, hari imodoka ndetse n'igiti.

Imbaga y'abantu benshi bicaye mu ihema ry'umweru rifite andi mabara matoya y'ubururu nicyatsi n'umuhondo. Ku ruhande hari icyapa cyanditsweho amabara umutuku n'icyatsi n'ubururu.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki iri mu ibara ry'umukara, yambaye ishati iri mu mabara y'umuhondo n'umweru, inyuma hari ibara ry'ubururu n'umuntu wicaye wambaye amadarubindi n'umupira w'umweru.

Umugabo ushinzwe umutekano wa polisi afite indangururamajwi y'umukara, inyuma ye hari abagabo babiri umwe yambaye ikote ry'ubururu, inyuma yabo hari icyapa kiri mu amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Icyumba cy'inama gihuriyemo abantu benshi abagore, abagabo ndetse n'abashinzwe umutekano b'abasirikare imbere hari umupolisi uri kubereka. Inyuma hari amadirishya imbere yabo, hari imeza ziri mu mabara y'umuhondo, bicaye ku ntebe zisa n'umutuku.

iItore zambaye imipira y'imituku hasi zambaye umweru, inyuma yazo hari ibikoresho bya kinyarwanda, hepfo hicaye abantu bari inyuma y'ameza y'umweru muri shitingi.

Imihango ya kinyarwanda, umusore afitecumu, akeneye igitambaro cy'umweru n'urunigi mu ijosi, inyuma ye hari undi musore ufite icumu, ingabo, iruhande hari abagore bakenyeye imikenyero, iruhande hari umusore nawe ufite icumu.

Aha ni mu birori aho bigaragara ko umuntu umwe bigaragara ko ari intore iri kwigaragariza abateraniye ahangaha, bigaragara ko habaye umuhango runaka cyangwa ibirori bya kinyarwanda, akaba arimo arasusurutsa abitabiriye ibirori.

Hari umugore, wambaye utuntu tw'umweru mu mutwe, ndetse n'undi mugore uzwi mu Rwanda nk'umwamikazi gicanda nawe wambaye utuntu tw'umweru mu mutwe, kuruhande, hari umuntu wambaye umupira w'umukara ndetse n'umweru.

Umwamikazi Gicanda, yambaye agatambaro k'umweru mumutwe n'akandi gasobekeranije, afite umusatsi mwinshi w'umukara, hakurya hari ikintu cy'igihuru.

Itsinda ry'abantu benshi bitabiriye ibirori, harimo umugabo uri kubyina wambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara, hakurya hari ibiti.

Abagore babiri bakenyeye imikenyero bafite amahembe mu ntoki, inyuma yabo hari idirishya riri ku nzu rifite irange ry'umuhondo, umukara n'umutuku.

Abasore babiri bafite amacumu, ingabo, bambaye n'inigi mu ijosi hakurya hari ibyatsi n'ibiti.

Intore zambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, harimo n'abagore bambaye imyenda y'imweru n'umukara, iruhande hari itsinda ry'abantu bicaye, hakurya hari ibiti.

Abagore bambaye ibitambaro n'imipira y'imyeru, mu ijosi bambaye inigi z'umweru, ku mutwe bambaye udutambaro tw'umweru, inyuma yabo hari abantu bicaye, imbere yabo hari ameza y'umweru.

Ingoma enye ziteretseho imirishyo hejuru zirikoswa, ziri mu kibuga hagati iruhande hari ibyatsi.

Itsinda ry'abantu barimo intore zambaye ibitambaro by'umukara n'umweru, abandi bicaye ku ntebe z'umweru inyuma hari ibiti.

Abategarugori bambaye in ingori ku mutwe ndetse n'inijyi mu ijosi, bakenyeye ibitambaro by'umweru, hirya hari ameza n'abantu.

Inkongoro y'amata ikoze mu giti iteretse ku meza akoze mu giti hakurya hari igitambaro, inyuma yacyo hari ibintu bisa n'ubururu, ku ruhande hari intebe.

Intore zambaye imyenda y'imweru n'umukara, inyuma hari abantu ndetse n'idirishya riri ku rukuta rw'umweru, imbere yabo hari abayobozi bicaye bafite amatelefoni mu ntoki ndetse n'amacupa y'amazi.

Abagore batanu bakenyeye kinyarwanda, inyuma yabo hari igikuta cy'umuhondo ku ruhande hari igitambaro cy'umweru, abagore bakenyeye imyenda iri mu mabara asa umuhondo.

Abagore bambaye imkenyero n'imipira y'umukara n'umutuku, bambaye urugori, inyuma yabo hari itsinda ry'abagabo bambaye imyenda y'icyatsi, hakurya hari inyubako.

Umugabo uri hejuru ku nsinga z'amashanyarazi yambaye ingofero y'umweru ndetse n'umupira w'ubururu n'inkweto z'umukara.

Umugabo uhagaze ku ngazi yambaye imyenda y'ubururu yegeranye n'igiti cy'amashanyarazi afashe mu nsinga, imbere ye hari ibicu by'umweru n'ikirere cy'ubururu.

Abagabo bari ku mabati hejuru y'umutuku, bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro y'imikara. Umwe afite inyundo mu ntoki. Bari gushyira umurasire w'izuba ku mabati.

Aho bogoshera harimo televiziyo, indorerwamo ndetse n'imashini yogosha. Umusaza afite igitambaro cy'umuhondo ndetse n'umugabo uhagaze iruhande rwe wambaye agapfukamunwa k'ubururu.

Umugabo wambaye ingofero, ari gukora umuriro w'amashanyarazi, insinga nyinshi mu mabara y'umukara, mu kirere cy'ubururu ndetse n'ibihu by'umweru.

Umuhanda w'ibitaka ukikijwe n'ibiti by'amashanyarazi, hepfo yabyo hari insina ndetse n'ibihuru n'ibiti, ku ruhande hari amazu, imwe isakajwe amabati y'umutuku, izindi zisakajwe amabati asa n'umweru.

Ibyuma binyuzeho insinga z'amashanyarazi, ziri hagati mu kibaya, hakurya hari ibiti ,hirya yaho hari ishyamba, igihu cy'umweru ndetse n'ubururu.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe n'amazu y'ubucuruzi ari mabara y'umuhondo, hirya y'aho hari ishyamba ndetse kumuhanda hari amapoto y'insinga z'amashanyarazi.

Imbuga nini, ihagazemo umugabo. Inzu ntoya ihagazeho abantu isakajwe, amabati y'umukara. Imbere hari inzu iteye irangi ry'ubururu n'amabati y'umukara.

Abagabo batanu bambaye ingofero z'ubururu, bari kubyuma hejuru by'amashanyarazi, bambaye imishumi isa n'umutuku

Ipoto y'amashanyarazi, iri iruhande rw'ibyatsi, hakurya hari inyubako, ndetse, n'insina n'igiti.

Umugore wambaye ingofero y'umuhondo n'imyenda y'ubururu, afashe kurwego hakurya hari abagabo n'abagore bahagaze.

Abagabo babiri bambaye impuzankan ziri mu mabara y'umutuku ndetse n'icyatsi n'ingofero z'umutuku, bafite mudasobwa mu ntoki, iri mu mabara y'umweru n'umukara, imbere yabo hari insinga z'amashanyarazi.

Ibigori biri kumwe n'insina, ku ruhande hari amazu atondetse ku murongo, asakajwe amabati y'umutuku. Hepfo hari ibyuma bifite insinga z'amashanyarazi.

Imbuga nini hirya hari inyubako yubakishijwe ibyuma ndetse n'amabati, iri mu mabara y'umweru n'ubururu hakurya hari umusozi.

Iteme rikozwe mu byuma by'umutuku ndetse n'icyatsi hahagazeho imodoka iri mu mabara y'umukara n'umweru. Inyuma hari umugabo utwaye igare, hakurya y'iteme hari abantu benshi n'umugezi munsi y'iteme, hakurya hari ibiti.

Mu muhanda harimo imodoka yo mu mabara y'umweru n'umukara, hirya hari abagabo benshi bahagaze kumurongo. Hakurya yaho hari amazu menshi hari amabara yicyatsi, ndetse n'umweru inyuma hari umusozi.

Iteme rikozwe mu byuma bifite amabara y'ubururu, umuhondo n'umukara, hakurya hari ibiti bisa n'icyatsi munsi hari umugezi.

Amatafari menshi ari hasi, ku ruhande hari igikwa k'ibiti ndetse n'inkuta zubakishijwe amabuye, inyuma yaho hari insina.

Kumuhanda urimo amakamyo ari mumabara yi'cyatsi ndetse n'umweru kuruhande hari amazu asakajwe amabati y'icyatsi hakurya hari amapoto yamashanyarazi.

Umuhanda urimo abantu benshi b'abagore ndetse n'abana ku ruhande, hari inzu y'igorofa iri mu mabara y'umutuku hakurya hari imodoka.

Iteme rikozwe mu byuma, munsi yaryo hari umugezi utemba, hakurya hari ishyamba, ku iteme hejuru hari kunyuraho umuntu utwaye ipikipiki.

Umuhanda muremure urimo imirongo itatu uw'umweru, umuhondo n'undi w'umweru, ku mpande hakikijwe n'agasozi gaterera, hejuru hariho ibiti, hakurya hepfo y'umuhanda, hari imodoka iri mu ibara ry'umukara n'umweru.

Ikiraro kirimo ikinogo, gikikijwe n'ibyuma, hariho abatwaye amagare babiri, imbere hariho amabuye manini, atondetse ku murongo.

Imbuga nini iteyeho ibyatsi, hakurya hari inyubako ndende kandi ngari, iri mu mabara y'umuhondo, hejuru hari igihu cy'umukara cyiganjemo izuba, hakurya hari inyubako ndetse n'ibiti.

Imbuga nini iri imbere y'i nyubako yubakishijwe amabati asa n'icyatsi, imbere yayo hari abantu, inyuma hari imisozi ku ruhande rwayo hari ikigega cy'umukara.

Ikiraro cy'ibiti hariho umugore uhetse umwana ufite n'undi muntu ntoki ufite n'inkoni, imbere ye hari undi mwana, hirya hari ibiti ndetse n'inzira.

Umuhanda uri kwerekera mu kigo, ikigo gisakajwe amabati y'ubururu, ku ruhande hari shyamba, hino hari andi mazu, imbere yaho hari abantu, umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'undi wambaye umupira w'icyatsi.

Mu kibuga harimo itsinda ry'abantu benshi, imbere yabo hari aho binjirira'ho basohokera, kuruhande hari aho abafana bicara hari mu mabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Imbuga nini ku ruhande rwayo harimo inyubako y'igorofa ifite ibisenge by'umweru isakajwe amabati y'umutuku.

Umugabo ufite indangururamajwi iri mu mabara y'umutuku n'ubururu, inyuma ye hicaye abagore n'abategarugori ndetse n'abagabo, hari ibiti n'inyubako inyuma iri mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo, inyuma y'aho hari ishyamba.

Imbaga y'abantu benshi bicaye, hagati yabo hagaze umugabo, wambaye ishati y'umutuku ndetse n'ipantaro y'ubururu, ku ruhande hari ibyapa biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hepfo hari ihema ry'umweru, ririmo n'utubara tw'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Itsinda ry'abantu bahagaze ryiganjemo abagore, abagabo, abakecuru n'abasaza, harimo n'abashinzwe umutekano abasirikare ndetse n'abapolisi. Inyuma yaho hari shitingi iri muu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Imbaga y'abantu benshi bicaye iruhande rw'igiti. Kuruhande hariho icyapa cyanditseho amagambo mu mabara y'ubururu, umweru n'umuhondo. Hagati hahagaze umugabo ushinzwe umutekano wambaye impuzangano y'ubururu ufite indangururamajwi mu ntoki. Hakurya hari abandi bicaye munsi y'ihema risa n'umweru. Inyuma yabo hari inyubako.

Itsinda ry'abantu benshi, imbere yabo hari abagore n'abagabo ndetse n'abashinzwe umutekano, iri tsinda ryambaye impuzankano y'imipira y'imikara, inyuma yabo hari icyapa.

Imbaga y'abantu benshi harimo abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe z'imyeru hagati yabo hari ibiti.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ahagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi biganjemo abana, abagabo, abagore inyuma yabo hari ihema ry'umweru inyuma yaryo hari amashyamba hakurya hari umusozi.

Abagabo benshi ndetse n'umugore bafashe umurunga w'inka, inka iri mu mabara y'umweru n'umukara bari mu byatsi, hakurya hari amazu ndetse n'ibiti.

Hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara n'amadarubindi, iruhande rwe hari undi wambaye ikote n'abandi babiri bambaye amakote y'imikara, inyuma yabo hari amadarapo harimo n'iry'u Rwanda, hepfo hari inyubako y'igorofa iri mu mabara y'umweru.

Itsinda ry'abantu benshi higanjemo abagore n'abagabo bari ku musozi hejuru, hakurya hari insina hepfo yabo hateye ibiti, hakurya hari amazu ndetse n'imisozi.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki iruhande rwe hahagaze undi mugore n'abagabo, inyuma yabo hicaye itsinda ry'abantu benshi, inyuma yabo bateye ibiti.

Itsinda ry'abantu benshi abagabo, abasaza, abagore, abana. Inyuma yabo hari inzu ntoya iri mu mabara y'umweru, hakurya hari ibiti byinshi ndetse n''amapoto n'insinga z'amashanyarazi.

Umugabo n'umugore n'umusirikare wambaye impuzangano y'abashinzwe umutekano, inyuma yaho hari itsinda rinini ry'abana, n'abagabo ndetse n'abagore hakurya hari ibiti.

Itsinda ry'abagabo n'abagore bafite amagare bambaye impuzangano y'imipira y'imikara, inyuma yabo hari abandi bantu benshi ndetse n'ihema ry'umweru, inyuma yabo hari ibiti, hakurya cyane hari umusozi.

Itsinda ry'abantu benshi bishimye, harimo abagore bambaye bya kinyarwanda abazungu, hirya hari ibyo kunywa, ndetse imiryango, iri mu mabara y'umweru.

Umusaza ufite indangururamajwi, yambaye ishati y'umweru, inyuma ye hari umusore wambaye ingofero, hakurya hari itsinda ry'abagabo bicaye, hakurya hari ibyatsi.

Imodoka iri mu mabara y'umweru yanditseho amagambo inyuma mu mabara y'umutuku n'ubururu, hakurya yayo hari umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'ubururu, inyuma ye hari imodoka itwara abagenzi iri mu mabara y'umweru.

Icyapa kiri ku muhanda, kiri mu mabara y'ubururu n'umweru. Kuruhande hari umuhanda na ho imodoka ziparika. Umuhanda ukikijwe n'ibiti byamashanyarazi, biriho amatara.

Umuhanda ufite rigori ku ruhande wegeranye n'icyapa kirimo amabara y'umutuku n'umweru, hakurya hari ibiti by'insinga z'amashanyarazi, hepfo yaho hari inzu z'ubucuruzi ziri mu mabara y'umweru.

Imbuga nini bigiramo gutwara ibinyabiziga harimo imodoka iri mu mabara y'umukara ndetse n'icyatsi, iruhande rwayo hari indi modoka iri mu mabara y'umweru n'umukara, inyuma hari inyubako ndetse n'ibiti.

Ahahagarara ibinyabiziga hariho abagabo ndetse n'umugore ufite igikapu n'ikinyabiziga kiri mu mabara y'umweru, umukara n'umutuku.

Umuhanda wamabuye urimo imodoka iri mu mabara y'umweru n'umukara, hakurya hari umugabo wambaye ishati y'ubururu, hirya yaho hari amapikipiki.

Umupira w'umuhondo inyuma ye, hari inyubako zikikije umuhanda, hakurya hari ishyamba ndetse n'ibiti ku muhanda by'amashanyarazi.

Mu muhanda hari ipikipiki itwawe n'umugabo wambaye imyenda y'umukara, hakurya hari indi pikipiki itwawe n'umugabo, imbere ye hari imodoka ndetse haparitse n'ipikipiki. Iruhande hari inzu iri mu mabara y'umweru, umutuku, ndetse n'icyatsi.

Imbaga y'abantu benshi abagabo n'abagore bafite amasuka, iruhande hari ibyatsi, inyuma hari ishyamba.

Abagabo bicaye mu ntebe z'umweru harimo ufotora uhagaze, inyuma yabo hari akabati k'umweru imbere hari ameza.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki. Yambaye ingofero y'umukara, ishati y'amaboko maremare y'umutuku. Inyuma ye hicaye abagabo babiri. Inyuma yabo hari indabo, hakurya hari igihuru.

Itsinda ry'abantu benshi bari gukora umuganda, higanjemo n'abashinzwe umutekano. Ku ruhande hateye ibigori, imbere hari inzu, hakurya hari insina.

Abantu benshi bari gukora umuganda higanjemo abagabo, harimo n'umusirikare umwe ndetse n'umupolisi, inyuma yabo hari ibihingwa by'ibigori, insina ndetse n'ibiti.

Umugore wambaye imyenda ikoze mu bitenge afite indangururamajwi mu ntoki inyuma ye hari icyapa kirimo amabara y'icyatsi n'ubururu hakurya hari umugabo wambaye ishati y'icyatsi, umupira wu'mweru, n'ingofero y'umukara inyuma haru umugore wambaye ikanzu y'umuhondo.

Imbaga y'abantu benshi abana, abagabo, abasaza kuhande hari ibyatsi biteyemo insina iruhande rwazo hari indabo hakurya hari inzu zabaturage.

Abagabo n'abagore higanjemo abo mu bashinzwe umutekano, polisi, dasso, ndetse n'abasirikare, bicaye mu ihema ry'umweru, ndetse ryiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu n'icyatsi. Hakurya hari ishyamba.

Mu murima w'ibigori, iruhande hariho itsinda ry'abantu benshi bari gukata ibyondo, inyuma yabo hari inzu y'amatafari y'ibyondo. Hakurya hateye ibigori, hepfo yaho hari umusozi.

Abaturage, barikubaka bafatanyije n'abashinzwe umutekano abapolisi n'abasirikare na Dasso, hakurya hari ishyamba, riri ku musozi.

Mu byatsi byinshi hahagazemo abashinzwe umutekano, harimo DASSO zambaye impuzankano y'icyatsi. Harimo abasirikare, hakurya hariho abaturage basanzwe. Inyuma yabo hari ibiti, hakurya y'ibiti hanyuzeho umuhanda.

Itsinda ry'abagabo n'abagore, abashinzwe umutekano barimo daso ndetse n'abasirikare, bari gu gukora umuganda bifashishije ibikoresho bikata ibyatsi, hakurya hari amapikipiki ndetse n'inzu iteye irangi ry'umuhondo.

Abagabo bane bambaye impuzankano y'umuhondo, inyuma yabo harazitiye, hakurya hari amaterasi y'indinganire, inyuma yayo hateye ibiti.

Ikibuga cy'umupira harimo abakinnyi bakina umupira w'amaguru bambaye impuzankano y'ubururu, hakurya hari aho abafana bicara mumabara y'icyatsi, umuhondo, ubururu.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru, harimo abana batatu bari gukina umupira, umwe yambaye ikabutura y'umutuku n'umupira w'umweru n'umukara, undi yambaye umupira w'umutuku, hepfo hari ibyatsi.

Mu kibuga cy'umupira hafi y'aho baterera koneli, bigaragara ko umukinnyi ari kwishimira intsinzi y'igitego, harimo n'abasifuzi bo ku ruhande ndetse binagaragara ko harimo n'undi, ari abakinnyi babiri.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, harimo abagabo ni amakipe abiri, imwe yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo, indi mu ibara ry'ubururu, hakurya hari inshundura z'izamu, hirya hari amazu n'ibiti.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu, hakurya hakikijwe n'uruzitiro rukozwe mu cyuma ndetse n'umupira uri mu kirere, inyuma yaho hari umurima w'igitaka, hirya hari uteyemo ibyatsi.

Umugore wambaye umupira w'umweru n'ingofero y'umukara, iruhande hari umugore wambaye amadarubindi, igishora cy'umuhondo imbere hari abana b'urubyiruko bambaye impuzankano y'imipira y'umuhondo, inyuma hari imbaga y'abantu benshi hakurya hari ibiti.

Amakipe y'umupira w'amaguru ari ku murongo ni abagabo, hariho abagabo batatu imbere afite umupira abandi babiri ku ruhande bamukikije.

Ibyatsi harimo umukinnyi ufite umupira w'amaguru. Hakurya hari inzu isakajwe amabati y'umutuku.

Hari itsinda ry'abasore bambaye impuzankano y'abakinnyi b'umupira w'amaguru, inyuma yabo hari imbuga isa n'igitaka.

Mu kibuga harimo abakinnyi bari gukina umupira w'amaguru, bamwe bambaye ubururu abandi bambaye umuhondo. Ahicara abafana, hari mu mabara y'umuhondo, ubururu, n'icyatsi.

Itsinda ry'abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, abagore ndetse nabagabo, harimo abambaye imyenda y'umutuku n'umukara ndetse n'umweru.

Ikibuga cy'umupira harimo abakinnyi bari gukina umupira w'amaguru, hejuru hahagaze umugabo uri aho abafana bicara, hari mu mabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, bari mu kibuga bambaye impuzanngano z'ubururu ndetse n'umuhondo, hakurya hari ibyuma bizitiye ikibuga, ibyo bita senyenge, hakurya hari amaterasi y'indinganire.

Ibyatsi bikikije ikibuga cy'umupira kirimo abakinnyi b'umupira w'amaguru, umwe yambaye amasogisi y'umukara n'imyenda y'ubururu ndetse n'inkweto.

Mu muhanda hagati hari imodoka ya polisi iri mu mabara y'umweru n'umukara, inyuma hari igare ritwawe n'umugabo wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umweru, inyuma hari abandi benshi biganjemo abagabo n'abagore, inyuma yabo hari indi modoka.

Abagore bari mu kibuga bari gukina umupira w'amaguru bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'umutuku, hepfo yabo hari ibyatsi ndetse n'amaterasi y'indinganire.

Mu kibuga cy'umupira hari umugabo wambaye imyenda y'umuhondo ufite umupira wo gukina usa n'umweru, hepfo ye hari ibyatsi, inyuma harazitiye, hakurya hari umusozi.

Imbuga nini y'ahantu bitoreza gutwara imodoka, harimo imodoka zigera kuri enye, ebyiri zisa n'umutuku indi isa n'icyatsi, indi isa n'umweru, ku ruhande hakikijwe n'ibyatsi, hakurya hari ibiti, hepfo yabyo hari inzu.

Umugore witeze igitambaro cyubururu, yambaye umupira wubururu n'kweto ni'jipo by'umutuku, afite igikapu mu ntoki cy'umutuku ku ruhande hari ibyatsi, inyuma yiwe hari abandi bantu benshi, hakurya yabo hari inyubako iri hagati y'ibiti.

Ikinyabiziga kiri mu mabara y'umweru n'umukara kiri mu muhanda, iruhande hari ibiti by'amashanyarazi ndetse n'ibiti by'inturusu, hakurya hari ishyamba.

Imihanda ibiri yegeranye ifite uturongo twumukara n'umweru, hakurya yayo hari amazu ari mu mabara y'umweru, umukara ndetse n'umutuku, inyuma yayo hari amashyamba.

Mu ikorosi ry'umuhanda harimo umugabo usunitse igare ritwaye imizigo y'imifuka itatu, hakurya ye hari ibyatsi birimo amapoto y'amashanyarazi, ku ruhande hari umurima.

Mu muhanda hari ipikipiki itwawe n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara, hakurya hari ibiti bikikije umuhanda, inyuma yabyo hari inyubako.